Inkweto nyinshi ziri ku isoko zipanze neza zo mu mabara n'amoko atandukanye, aho abantu baza guhitamo izo bashaka bazishima bakazishyura, zirakomeye kandi zifite ubwoko butandukanye, muri zo aho abakiriya baza bagatwara izo bashimye mu gihe umucuruzi bemeranyijwe ku giciro cyazo.

Abantu babiri bahagaze iruhande rw'imodoka y'umweru, bari kugaragaza ibimaze gukorwa bijyanye n'uburyo bwo kuganira kujyanye n'igiciro cy'imodoka no kuyigura no kuyitwara, aho bose bemeranyijwe ndetse bishimiye ibyo bamaze kuganira banabigaragariza ababahanze amaso.

Agakoresho kifashishwa mu kubara amafaranga ndetse kakanakuraho urujijo rushobora kugirwa n'umuntu ushinzwe gukora ubwo buryo, iruhande rwayo hari inoti nyinshi zizinze ndetse zihambirije.

Umudamu wambaye ishati y'umutuku ari kwandika imbere ye hari undi waje gusaba ubufasha utegereje ko arangiza kwandika akamufasha kubyo yaje kumurebera hirya y'aho bari hari imodoka y'umweru iri kuhatambuka hafi hari mudasobwa n'agakarito k'umuhondo.

Umuntu uhagaze iruhande rw'ameza ateritseho utubido, ari kubuganiza amata muri utwo tubido, hari n'undi uhagaze iruhande uri kurebera mu idirishya, asa nk'aho ategereje ko bamara kubuganiza ayo mata mu tubido.

Ibicuruzwa bikomoka ku matungo nk'amata, biteritse ku meza, ibindi biri mu gikoresho cyabugenewe kibirinda kwangirika aho ukeneye ibyo bikomoka ku matungo aza akagura, bakamuha ibyo akeneye akishyura bityo bigatuma agira ubuzima bwiza iyo abishyira mu mafunguro ye.

Inyubako z'umuturirwa zifite ubusitani bumeze neza, muri bwo hari aho abantu bicara bari kuganira bari no gufata amafunguro n'ibinyobwa, imbere yaho hari ubwogero aho abantu bajyamo kwidagadurira bari koga.

Amafunguro menshi y'amoko atandukanye ari mu bikoresho byabugenewe, aho umuntu aza akiyarurira ibyo ashoboye ava kuri bimwe ajya ku bindi, cyane cyane bibarizwa mu mahoteri meza cyangwa se ahantu habaye ibirori runaka nk'ubukwe, hirya hari ibyicaro ndetse n'ibindi bikoresho byo muri hoteri.

Inyubako igaragaza ko hatangwa ubufasha ku bakeneye ubwishingizi, hari imodoka ihagaze hafi yayo ndetse ku mpande hari ibimenyetso bigaragaza, bikanaranga igitangwa n'ubufasha butangwa muri iyo nyubako, hafi hari indabo ziteye mu busitani.

Inguzanyo itangwa na banki ya Kigali, aho umuntu yiguriza amafaranga akamufasha mu iterambere ryihuse kandi rirambye, bityo ubuzima bwe bukabasha guhinduka ndetse akabona iterambere ry'igihe kirekire.

Abacuruzi baje kugurisha ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'imbuto n'imyumbati, abaguzi baza kubaha amafaranga kugira ngo nabo babahe ibicuruzwa bakeneye, hari inyubako zifashishwa kugira ngo zibike neza ibicuruzwa bitaza kwangirika.

Isoko ribarizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho ababyeyi bicaye bategereje, abaza guhaha. Hari kandi abazana amafaranga bakagurana n'abazanye ibicuruzwa, bitewe n'ibyo buri umwe akeneye n'igiciro runaka akeneye, hari inkweto z'abantu bategereje, abaza kubagurira, ndetse n'aho bicaye n'imifuka irimo ibyo baje gucuruza.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye inyanya, ibitunguru, imineke, ibijumba ndetse n'inanasi, aho umucuruzi ategereza umuguzi akazana amafaranga, na we akamuha ibicuruzwa bihwanye n'amafaranga amuzaniye kandi bagatandukana bumvikanye ku giciro.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo wanditseho amagambo ajyanye na mobayiro mani, ahagaze iruhande rw'imodoka na yo iriho ikirango gisa nkikiri ku mupira we, irimo umuntu wicayemo, hirya hari izindi modoka, bigaragara ko bari kuganira ku bijyanye na serivisi mobayiro mani itanga.

Inyubako y'umuturirwa ifite amarangi meza cyane, ifite amabuye ashashe mu rubuga rwayo, iri ku isoko ikeneye umuntu waza akayigura ndetse akaba yayegukana, ifite amadirishya meza ndetse n'inzugi ziri ku rwego rwiza.

Umuntu uri kugaragaza ko hari inyubako nziza zo gukodesha i Kanombe, ku bihumbi magana atatu na mirongo itanu buri kwezi. Ni inzu nziza zifite isuku kandi zikeye, aho uwazishyura yaba agiye mu nyubako zigezweho kandi zifite buri kimwe kugira ngo umuntu agire imibereho myiza.

Indabo z'amoko atandukanye ziteretse ahabugenewe, aho umuntu aza akagura izo akeneye gutera no gutereka aho ashaka kuzishyira, bityo uzicuruza agahabwa amafaranga akabasha kwiteza imbere mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ibicuruzwa byifashishwa mu biribwa aho abantu baza kurangurira no kugura ibyo bakeneye, aho ingeri z'abantu zigiye zitandukanye buri wese akeneye icyo ashaka aza kugifata akishyura binyuze mu buryo butandukanye.

Ahari ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho umuntu aza agatoranyamo ibyo akeneye n'ibyo ashaka, akabishyira mu gakoresho kabugenewe akabitwaramo, akishyura mu buryo butandukanye haba ubw'ikoranabuhanga n'uburyo bwo mu ntoki, ushatse wese ibicuruzwa akeneye aza kubireberamo muri iri duka.

Iduka ry'aho abantu baza kugurira ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo ibiribwa n'ibindi, harimo abantu baje kugura, umucuruzi ari kubafasha kandi abereka uko bakwishyura, hari abandi bari kugenda bafata ndetse banakusanya ibyo bakeneye gutwara.